Abantu bahagaze imbere y'ahakorerwa ubucuruzi butandukanye, harimo uwambaye umupira w'ubururu n'akantu k'umutuku ku ijosi barimo kuganira.

Abantu benshi bambaye imyenda y'amabara atandukanye bari imbere y'inyubako isize irange ry'ubururu yanditseho amagambo agira ati gira ubuzima.

Abana babiri bakiri bato bambaye imyenda iri mu ibara ry'umutuku na move, umwe arimo guseka, afite igikombe mu ntoki umwe ari gukarabya mugenzi we.

Icyumba kinini cy'inama, kicayemo abantu batandukanye abagabo n'abagore, bambaye imyenda iri mabara atandukanye, umukara umweru n'ubururu.

Robine iriho umwana muto wambaye ishati itukura urimo guseka, arambuye amaboko arimo arakaraba intoki. Inyuma ye hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi.

Abantu benshi bicaye ahantu ku byatsi barimo kungurana ibitekerezo, imbere yabo hari umwana muto n'umugabo umuhagaze impande bafatanye mu kiganza.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore n'abana baje kuvoma, ahantu ku ivomo ririho robine ebyiri, bamwe bafite indobo ziri mu ibara ry'ubururu n'umutuku n'umweru, abandi bafite amajerekani.

Itiyo ivamo amazi, ukuboko kurimo gukaraba impande y'itiyo, ruguru y'itiyo, hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Abantu benshi bari imbere y'inzu, barimo abama bateze amaboko, barimo kubyina. Bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye. Inyuma yaho hari intebe z'umweru.

Abantu bahagaze bagera muri batatu bambaye ingofero amatabuririya ari mu mabara atandukanye, ubururu n'umweru bafite ibintu mu ntoki.

Imbere y'inyubako ishakajwe amabati atukura yubakishije amatafari, mu ibaraza ryayo hari abantu benshi bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, abagabo n'abagore bategereje guhabwa serivisi.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, irimo rido iri mu ibara ry'umuhondo na move n'umweru, impande yayo hari umumama wicaye ari kumwe n'akana, imbere ye hari umugabo bari kuganira.

Umugabo uhagaze wambaye ikote ry'umukara na rinete, impande ye hari umu mama wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, bafite ikintu cyanditseho vizite.

Imbere y'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, hahagaze abantu benshi barimo abagabo n'abagore bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Umwana w'umukobwa wicaye asutamye, arimo guseka, imbere ye hari robine arimo gukaraba, hari amajerekani y'umuhondo n'iy'ubururu.

Umumama ukikiye umwana ukiri muto ufite utuntu mu mutwe turi mo icyatsi n'umuhondo ,yambaye agapira k'umweru hari umuganga urimo kumukingira amutera urushege ku kaboko.

Ababyeyi benshi bateraniye hamwe, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, bazanye abana imbere ya muganga, kugira ngo abasuzume, bamenye uko bahagaze.

Umuhanda munini urimo imodoka zurujya n'uruza hari amakamyo manini arimo kugenda inyuma yayo hariho ibara ry'ubururu n'umweru.

Umugezi uhurirwaho n'abantu benshi baje kuvoma bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye harimo umweru, umutuku, umukara bafite amajerekani y'umuhondo n'umweru.

Abantu benshi bicaye k'umurongo w'uruziga, imbere yabo hari ameza atetseho y'ibirahure, bambaye amakositimu atandukanye ubururu, umukara, umweru.

Ibiganza biri gukaraba intoki, yambaye umwenda uri mu ibara ry'ubururu, imbere ye hari itiyo ivamo amazi.

Inyubako irimo abantu benshi barimo abagabo n'abagore bicaye mu cyumba imbere y'abo hari televiziyo hari na camera.

Abantu batatu bari kuri robine, harimo umumama ukuze, wambaye imyenda irimo amabara ya move, uteze igitambaro, impande ye hari umwana mukuru wambaye umupira utukura, hepfo ye hari umwana ukiri muto. Barimo kuvoma.

Abantu babiri barimo umugabo n'umugore umudamu aritandiye afite ijerekani m'intoki baje kuvoma kuri robine impande yayo hari ibiti birebire biri m'ibara ry'icyatsi.

Ivomero ririho robine ebyiri, hari umwana muto wambaye ikabutura itukura n'inkweto z'ubururu, urimo kunywesha amazi amashyi. Munsi ye hari indobo ihateretse.

Inzu isakajwe amabati atukura, impande yayo hari imodoka iparitse, imbere yayo hari ihema rinini riteraniyemo abantu benshi, bamwe baricaye, abandi barahagaze.

Abana benshi, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, bahuriye ku mugezi. Bose barimo gukaraba. Inyuma yabo hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Imbere y'inyubako hari robine ivomerwaho n'abantu rusange, hari ibase hateretse, umudamu urimo koza umwana n'undi ufite intobo mu ntoki.

Abantu bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ariho impapuro, bafite amakaramu mu ntoki hari ibyo bari kwandika, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye.

Umwana muto w'umukobwa wambaye imyenda iri mu ibara ry'umuhondo, n'ubururu, n'icyatsi afite ijerekani y'umuhondo ari kuvoma mu mugezi utemba.

Umumama uhagaze uboshye imisatsi wambaye ijire y'umuhondo umupira w'umweru, imbere ye hari abantu babiri harimo umugabo n'umugore bafite amajerekani barimo kuvoma.

Ku ivomero rusange, hari abantu benshi baje kuvoma. Barimo abahungu n'abakobwa, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, hari amajerekani arimo ibara ry'umuhondo umukara n'ubururu, inyuma yabo hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Abantu biganjemo abamama bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye bateze ibitambaro mu mutwe, imbere yabo hari umuganga uri kubasuzuma.

Abana babiri bicaye basutamye bambaye imyenda iri mu ibara ry'umutuku n'icyatsi, hejuru yabo hari robine bari gukina n'amazi.

Abantu benshi bahagaze bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, harimo abagabo n'abagore bambaye n'amabaji mu ijosi.

Inyubako ikorerwamo ibijyanye n'ubuvuzi, harimo abantu benshi, bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, ku gitanda hari umurwayi barimo gusuzuma.

Umwana w'umukobwa urimo guseka wambaye imyenda iri mu mabara atandukanye harimo umutuku n'umuhondo yaje kuvoma kuri robine imbereye hari amajerekani ari mu mabara y'umuhondo n'ubururu.

Abantu batandukanye bahagaze barimo umwana muto wikoreye akajerekani k'umuhondo uvuye kuvoma, imbere ye hari umuntu uri kumufotora, inyuma ye hari abandi bahagaze bari kumwitegereza.

Abantu benshi bicaye bafite ibitabo ku bibero byabo, bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu, barimo kungurana ibitekerezo.

Umubyeyi w'umumama uri kwa muganga uryamye ku gitanda, yambaye agapfukamunwa, impanda ye hari umurwaza hari n'umuganga uri kumusuzuma ngo arebe uko ahagaze.

Abantu benshi bicaye mucyumba cy'inama imbere yabo hari abandi bicaye bari kwitegereza ikiganiro gitambuka kuri tereviziyo.

Umugabo n'umugore bambaye imyenda y'amabara atandukanye; umukara n'ubururu, imbere yabo hari intebe, hari n'umumama uri gusuzuma uko umudamu amerewe.

Umwana ukiri muto waje ku mugezi arimo arakaraba, yambaye ishati y'icyatsi, inyuma ye hari indobo y'umuhondo, imbere ye hari indobo ihateretse, inyuma ye hari ibyatsi byo mu ibara ry'umuhondo n'icyatsi.

Umwana muto wambaye umupira utukura n'ikabutura y'ubururu, afite igikombe mu ntoki, imbere ye hari robine ebyiri, ari kuvoma amazi.

Umudamu uhetse umwana wambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, uboshye imisatsi, imbere ye hari robine, hari indobo ziteretse imbere ye, arimo koza umufuniko.

Inyubako nziza, imbere yayo hahagaze abantu benshi bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye harimo ubururu, umukara, umutuku, n'umweru, impande y'abo hari idarapo riri mu mabara y'umuhondo, ubururu, icyatsi.

Abantu babiri bahagaze bakenye ibitenge bari kuri robine, bari gupompa kugirango bapanure amazi, imbere yabo hari umumama ufite indobo uri kuvoma.

Umubyeyi uri kwa muganga wicaye ku gitanda yambaye imyenda y'ubururu, impande ye hari abaganga babiri umwe arimo kumusuzuma amenye uko ahagaze.

Abantu bahagaze bagera kuri bane bambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu, umweru n'umukara, impande yabo hari icyapa cyanditseho amagambo y'Icyongereza.

Abana bato baje kuvoma bafite utujerekani, imbere yabo hari umuntu mukuru uri kubafasha kubona amazi, inyuma yabo hari ibiti birimo ibara ry'icyatsi n'imodoka igenda mu muhanda.

Abamama bicaye bambaye imyendama mu mabara atandukanye, hari umumama uteza igitambaro cy'umukara ufite ishapule mu ijosi y'ubururu, imbere yabo hari urikwandika n'umwana muto uri hagati.

Inyubako irimo abantu batatu umudamu ufite umwana mutoya imbere ye hari umuganga witeguye kumufasha.

inzu irimo robine nyinshi abantu baje kuvoma. Hari amajerekani menshi ateretse ku murongo inyuma yayo hari ubusitani bw'ibiti birebire.

Abantu benshi biganjemo abagabo n'abagore bari mu nama, umugabo yambaye imyenda y'umukara imbere yabo hari amacupa y'amazi, umudamu uri hagati afite mikorofone arimo atanga ibitekerezo.

Abantu batandukanye barimo abagabo n'umugore bicaye ku ntebe bambaye amataburiya arimo umweru n'ubururu, inyuma yabo hari undi wunamye.

Abantu benshi bahagaze, hari umugabo ukiri muto wicaye, wambaye umupira w'umuhondo na rineti n'ipantaro y'umukara. Imbere ye hari akana gateretse ku munzani, kambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'umuhondo.

Umugabo wambaye ikositimu y'umukara uri imbere yabantu bicaye ku ntebe barimo abagabo n'abagore, barimo barakurikirana ijambo ari kuvuga, inyuma ye hari icyapa kirimo ibara ry'ubururu n'umweru.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore bambaye imyenda yo mu mabara atandukanye, barahagaze inyuma yabo hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi bafite amatelefone mu ntoki zabo.

Imbere y'inyubako hahagaze abantu benshi, hejuru yabo hari igiti kinini kiri mu ibara ry'icyatsi, bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru n'ubururu n'ingofero z'umweru, bafite igitambaro cyanditseho ko ari umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Umumama ucigatiye umwana mu gitenge wambaye umupira wa move urimo guseka arimo aravoma kurirobine munsi yarobine ari kuvomera mu ndobo y'umukara.

Abantu benshi bicaye mucyumba kinini cy'inama barimo abagabo n'abagore bari kungurana ibitekerezo ku bijyanye no kwita ku buzima bw'abantu.

Umumama wambaye imyenda y'ibitenge, uteze igitambaro. Akikiye umwana mutoya, muganga ari imbere ye yambaye itaburiya y'umweru arimo aramusuzuma ku mutwe.

Umwana muto w'umukobwa uri imbere y'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, imbere ye hari kandagira ukarabe ifite ibara ry'icyatsi arimo arakaraba intoki.

Abantu benshi batandukanye barimo abagabo n'abagore bambaye imyenda mu mabara y'ubururu, umweru n'umukara, inyuma yabo hari ibiti birebire biri mu ibara ry'icyatsi.

Abantu babiri bambaye imyenda iri mumabara yumuhondo n'umukara. Umwe arunamye arimo gukaraba, uri imbere ye afite ibinika mu ntoki yiteguye kumusukira amazi.

Urukuta rw'amabuye arimo ibara ry'umukara, inyuma yaho hari idirishya ry'ubururu umugabo wambaye itaburiya y'ubururu ufite ishusho igaragaza uko abana bahagaze.

Umumama ukenyeye igitenge urimo kugenda mu kaboko kamwe afitemo indobo y'umuhondo ku mutwe we ateze igitambaro yikoreye indobo itukura.

Umwana muto w'umukobwa uboshye imisatsi wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umutu ijipo n'ishati, ari gukaraba k'umugezi n'amaboko munsi hari ibase y'umukara.

Umugezi urimo kuzana amazi wubakishijwe urukuta rw'amabuye uriho icyapa cya yunisefu impande yaho hari abamama bafite indobo y'ubururu n'umutuku barimo kuvoma.

Inyubako isize irange ry'ubururu, ririho robine. Abantu baje kuvoma, bafite amajerekani y'umuhondo. Iriho n'umubirikira. Haruguru yayo hari ibiti by'icyatsi.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kinini cy'inama harimo abagabo n'abagore. Imbere y'ameza hariho amacupa y'amazi.

Abamama batandukanye bambaye imyenda iri mu mabara y'umukara, umutuku n'ubururu. Bari kuvoma umwe ari kunkwesha amashyi, undi ari inyuma yabo.

Inyubako yubakishijwe amabuye, imbere yayo hari idarapo, mu ihema riri imbere yayo hari abantu benshi cyane barimo abagabo n'abagore bahagaze.

Umwana ukiri muto wambaye ishati y'icyatsi, ari kuri robine arimo arakaraba intoki. Impande ye hari indobo y'umuhondo, inyuma ye hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, wambaye n'ikarita y'akazi mu ijosi, inyuma ye hari uwambaye ijire y'umuhondo, imbere ye hari umumama uteze igitambaro harimo amusuzuma.

Abantu benshi bambaye imyenda iri mumabara atandukanye bahagaze hafi ya robin inyuma yabo hari urutoki umwana muto arimo kuvoma afite amajerekani yumuhondo.

Inyubako ihagazeho imbere abantu bambaye imyenda y'amabara atandukanye, harimo umweru, ubururu, umutuku n'umukara. Hejuru hari icyapa cyanditseho uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu.

Robine, hariho abana benshi baje kuvoma. Bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye. Hari n'ijerekani y'umuhondo.

Abantu babiri bicaye umugabo wambaye umupira w'ubururu, umudamu wambaye ikataburiya y'umweru arimo kwandika, hejuru yabo hari icyapa kigaragaza ko sida igihari tugomba kuyirwanya.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, imbere hari ikibaho bigiraho, abana babiri barimo guseka umwe azamuye akaboko atunze urutoki hejuru.

Abana benshi bahagaze ku murongo bafatanye ku rutugu bambaye imipira y'ubururu yanditseho yunisefu, inyuma yabo hari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye.

Abantu batandukanye barimo abagabo n'abagore bambaye imyenda yo mu ibara ry'ubururu, bafite icyapa cyanditseho unicef.

Imbere y'inyubako hari abantu benshi bateraniye ku ivomero bafite ibikoresho byo gutwaramo amazi bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye.

Abantu benshi bicaye mu cyumba harimo abaganga, inyuma yabo hari umuntu uhagaze wambaye ijire y'umuhondo hari ababyeyi bicaye bateze igitambaro barimo gusuzumwa.

Abantu benshi barimo abagore bambaye imyenda y'amabara atandukanye harimo umuhondo, ubururu n'umukara n'umweru.

Abantu benshi bari mu cyumba cy'inama barimo abagabo n'abagore bambaye imyenda y'amabara atandukanye, imbere yabo bafite amacupa harimo amazi yo kunywa.

Ameza ateretseho ibigega by'ubururu birimo amazi, impande yaho hari abana benshi bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru n'ubururu, bafite ibikombe mu ntoki bari kuza kuvoma.

Abantu benshi batandukanye bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, harimo abicaye n'abahagaze. Hari n'abashinzwe umutekano. Inyuma yabo hari ibiti birebire biri mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo.

Abagabo n'abagore bahagaze imbere y'inyubako bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye; harimo umweru, umutuku, ubururu n'icyatsi. Imbere yabo hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo.

Abagabo n'abagore bateraniye hamwe bahagaze imbere ku meza hari ibintu biriho barimo kureba hari n'abafite za kamera bagenda bafotora.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama harimo abagabo n'abagore bafite amakaye mu ntoki zabo barandika ibitekerezo by'ingenzi.

Umubyeyi wambaye imyenda y'igitenge, ukikiye umwana ku bibero. Umuganga ufite amaherena, uboshye imisatsi, arimo aramuha umuti.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kinini k'inama harimo abagabo n'abagore bambaye imyenda yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari abantu bicaye bafite indangururamajwi.

Ivomero rusange ririho abantu benshi baje gushaka amazi. Munsi ya robine hari ijerekani y'umuhondo. Inyuma yabo hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ifite irange ry'umweru, mu ibaraza ryayo hari abantu batandukanye, bambaye ibisarubeti by'umuhondo n'ingofero z'umweru.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, bahagaze imbere y'inyubako abandi baricaye bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye abataburiya y'umweru, abambaye imikara bafite n'imidari mu ijosi.

Umumama wambaye imyenda iri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu, yambaye agapfukamunwa imbere ye hari umwana muto wambaye imyenda y'ikaki.

Abantu batatu; umwe wambaye imyenda iri mu ibara ry'umutuku urimo kuvoma, babiri bari inyuma ye bari gupompa kugirango abone amazi.

Abantu benshi bicaye ku meza bakoze umurongo w'uruziga, imbere yabo ku meza hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bambaye imyenda y'amabara atandukanye irimo umukara, ubururu n'umweru.

Inyubako irimo abantu batandukanye harimo intebe z'umukara, umumama wicaye wambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara n'umweru, imbere ye hari icupa ry'amazi.

Imbere y'urugi ruri mu ibara ry'icyatsi, hari abantu babiri, umuganga uboshye imisatsi wambaye amaherena n'itaburiya y'umweru, umubyeyi ukikiye umwana, muganga arimo aramusuzuma mu kanwa.

Umubyeyi ufite umwana ukiri muto, wambaye imyenda mu mabara atandukanye, ubururu n'umweru, ukenyeye igitambaro mu mutwe, imbere ye hari umuganga uri kumufasha gukingira umwana.

Abana benshi bahagaze barimo guseka, umugabo uri impande yawo wambaye umupira w'ubururu afite igikombe mu ntoki ari bakarabya intoki, inyuma yabo hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Inyubako yubakishijwe amatafari ya boroke sima, impande yayo hari ikigega cy'umukara, harirum muto wambaye ishati ya move n'ikabutura, urimo kuvoma, afite igikombe mu ntoki.

Abantu benshi bicaye bakoze umurongo w'uruziga kumikeka bambaye imipira y'amabara atandukanye, irimo ubururu n'umuhondo, inyuma yaboho hari abandi bicaye ku ntebe bambaye amashati y'ubururu imbere n'amakoti y'umukara.

Imbere y'ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo kuri robine ihari hari abana bahateraniye bunamye barimo gukaraba.

Abantu benshi baje kuvoma inyuma yabo hari insina z'urutoki zifite mu mabara y'icyatsi, hari amajekani y'umuhondo.

Abana benshi bari ku murongo imbere yabo hari robine barimo baranywa amazi, inyuma yabo hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi.

Umugabo wicaye yambaye agapfukamunwa barimo kumukingira ku rutugu. Imbere ye hari abaganga bambaye amatabuririya y'umweru n'dupfukamunwa.

Umwana muto w'umukobwa, wambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru n'ubururu, uri kuri robine, impande ye hari indobo, ruguru ye hari ibiti byiganje mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo.

Umumama uri imbere y'inzu, umuryango ukinguye, akenyeye igitenge, yambaye umupira uri mu ibara ry'umukara n'umweru. Yambaye ingofero, arimo guseka, akandagiye kuri kandagira ukarabe, arimo gukaraba.

Umumama, wikoreye ijerekani y'umuhondo, ukenyeye igitambaro, wambaye imyenda, iri mabara atandukanye, imbere ye hari umwana wambaye ishati y'ubururu.

Abantu benshi bari imbere y'inyubako bamwe barahagaze abandi baricaye, bambaye imyenda y'amabara atandukanye yiganjemo ibara ry'umuhondo n'icyatsi.

Icyapa kinini cyanditseho amagambo isange wani sitopu senta, hariho n'ikirangantego cya polisi y'igihugu y'u Rwanda.

Abantu babiri bicaye barebana ku meza; uwambaye ikanzu y'umukara arimo gufasha uwambaye ikanzu y'ubururu ushobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umumama ufite abana babiri, uwo ahetse mu mugongo n'uhagaze impande ye. Yicaye ku gataburete arimo arabatekera igikoma. Impande ye hari ibase iri mu ibara ry'icyatsi.

Abantu benshi bicaye imbere y'imodoka nini iri mu ibara ry'umweru, bari ku ntebe z'umweru, bambaye udupfukamunwa. Bita ku bafite ibibazo byo mu mutwe.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, imbere yabo ku meza hari amacupa y'amazi, bafite mikorofone ku munwa.

Umugabo wicaye wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, imbere ye hari icupa ry'amazi, impande ye hari umama wambaye imyenda irimo ubururu, afite mikorofone ku munwa.

Abantu benshi biganjemo abambaye imyenda iri mu ibara ry'icyatsi, imbere yabo hari ufite mikoro ndetse harimo n'abashinzwe umutekano, bari kugenda bamagana abantu bahohotera abandi.

Umugabo wicaye hafi y'umuhanda wegamiye urukuta yambaye inkweto z'umukara n'umupira w'umutuku haguru ye hari abantu n'imodoka ziri kugenda afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umumama ugeze mu za bukuru uri imbere y'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, arimo arateka ku ishyiga rya kinyarwanda, impande ye hari igikombe cy'ubururu n'icyatsi.

Abantu benshi abato n'abakuru, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye barimo guseka mu ntoki zabo bafite amadarapo ari mu ibara ry'icyatsi, umuhondo n'ubururu.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye umukara, umweru. Bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umutuku n'umuhondo.

Umumama wicaye imbere y'inzu uteze igitambaro afite abana babiri, imbere ye hari inkoko iriho imbuto n'isorori itukura.

Umuntu wambaye ishati y'ubururu ucuritse umutwe uboshye imisatsi, ibiganza bye bifashe ku mutwe ashobora kuba arwaye.

Umugabo wambaye ikositimu y'umukara, imbere ye hari indabyo umumama wambaye ijire y'umuhondo n'ipantaro y'ubururu n'umupira utukura.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bahagaze imbere y'inyubako kuri esokariye barimo kwifotoza, bafasha abarwayi bo mu mutwe.

Abantu benshi bari imbere y'inzu barimo gutera ibiti, bamwe bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro y'imikara, harimo n'abambaye ingofero.

Umumama ufite imisatsi myinshi uhagaze ufashe amaboko, yambaye imyenda iri mu mabara atandukanye harimo ubururu n'umutuku.

Umukobwa wambaye ishati itukura n'ikanzu yubururu. Arimo guseka. Ahagaze imbere y'inyubako ishobora kuba ifasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe.

Abantu benshi bari imbere y'inyubako, barimo abagabo n'abagore, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, bamwe baricaye abandi barahagaze, inyuma yabo hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi.

Umugabo wicaye muri rigori, ufite akajerekani k'umukara impande ye, haraguruye hari ibyatsi biri mu ibara ry'icyatsi, afite uburwayi bwo mu mutwe.

Umumama wicaye ku ntebe y'urubaho wambaye n'inkweto bogeramo akenyeye igitenge kiri mu mabara atandukanye, yifumbase amaboko.

Abantu benshi batandukanye bambaye imyenda y'amabara atandukanye, abenshi biganjemo abana bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umuntu wigitsina gore wambaye igitenge n' numupira w'umuhondo yambaye inkweto zitukura hari impande y'igiti yiziritse umunyurura ku maguru.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, bamwe baricaye abandi barahagaze bambaye imyenda y'amabara atandukanye harimo umukara, ubururu n'umweru bafasha abarwayi bo mu mutwe.

Umumama ufite imisatsi y'umukara, wambaye umwenda w'umweru, uteruye umwana mu ntoki. Arimo guseka inyuma ye hari amatafari ahiye.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu, wicaye impande y'ameza ariho igitambaro cy'umuhondo. Ku meza hateretse icupa ry'amazi. Imbere ye hari umumama uteze igitambaro cy'ubururu, wambaye umupira w'icyatsi, wicaye ku ntebe y'ubururu barimo kuganira.

Abantu babiri barimo kuganira, umwe afite mikorofone, imbere ye hariho amacupa y'amazi, undi yambaye agapfukamunwa bari kuvuga uko abantu bakwirinda uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu benshi bahagaze bambaye imyenda yo mu mabara atandukanye harimo abagabo n'abagore, harimo ushinzwe umutekano.

Inyubako nini igeretse, iri hafi y'umuhanda. Hari ibyapa bigaragaza ibihakorerwa, ko hakorerwa ibijyanye no kuvura.

Abanyeshuri benshi bambaye inifomu y'ubururu barambuye ibiganza barimo guseka, inyuma yabo hari inzu n'ibiti byiganjemo ibara ry'icyatsi.

Abantu benshi bicaye, abandi bahagaze bambaye imyenda y'amabara atandukanye, nk’umuhondo, umweru, umutuku, n’ umukara bafasha abafite ubumuga bwo mu mutwe.

Umumama uhagaze imbere y'inyubako yubakijwe amatafari ahiye, afite ikarita mu ntoki, yambaye n'imikufi ku kuboko, yambaye n'imyenda iri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu.

Umugabo uhagaze, wambaye ishati y'ubururu, ushaka guseka. Inyuma ye hari abantu benshi, bambaye ingofero.

Abantu batandukanye barimo abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama, bamwe bafite amakaye mu ntoki imbere hari uri gutanga imbwirwaruhame, bungurana ibitekerezo ku bijyanye no gufasha abafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe.

Umugabo wicaye yubitse umutwe ibiganza bifashe mu gahanga impande ye hari umu mama urimo kumuhumuriza afite ikibazo mu mutwe.

Abantu benshi bahagaze mu cyumba kinini abagabo n'abagore, imbere yabo hari ibikoresho bibafasha kwita ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe.

Umugabo uhagaze wambaye ishati irimo ibara y'umukara n'umweru ni pantaro ya kacyi, ahagaze inyuma y'igipangu cy'amatafari ahiye cyanditseho amagambo agaragaza ko ari ibitaro bifasha abarwayi by'i Ndera.

Umwana muto urimo guseka uryamye ku gatanda hari umuganga ufite ibikoresho urimo kumusuzuma kubijyanye n'amenyo.

Umugabo ufite ubwanwa, wambaye ubusa hejuru, afite umugozi mu maboko ye, arimo koza amenyo.

Umugabo wambaye ubusa hejuru, ufite ubwanwa bwinshi, afite akantu k'ubururu gakura imyanda mu menyo.

Umugabo ufite ubwanwa n'umusatsi muke, yambaye umupira w'ubururu yazanye umunwa arimo guseka.

Umugabo ufite umusatsi muke n'ubwanwa urimo guseka yambaye ubusa hejuru, afite umugozi mu ntoki woza amenyo.

Umwana muto wambaye umupira w'umukara, ufite agapfukamunwa gatukura, wicaye ku ntebe. Imbere ye hari abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru, bari kumusuzuma mu kanwa.

Umugabo uri kwa muganga urimo guseka yambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu, muganga ari imbere ye arimo kumwoza amenyo.

Abantu benshi bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye bamwe baricaye, abahagaze bambaye imipira y'umweru n'udupfukamunwa bari kubasuzuma mu kanwa.

Umugabo ufite umusatsi uringaniye ufite, ufite ububwanwa bwinshi, yasamye umunwa arimo guseka. Yambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu imbere yambaye umupira w'ikigina.

Umugabo wicaye wambaye umupira w'umukara, yasamye umunwa, umuganga ari kumusuzuma ngo arebe ko afite ikibazo cy'amenyo.

Umugabo wicaye, wambaye umupira w'umweru, ufashe ku nda n'ibiganza bibiri. Afite n'umuswaro mu gatuza.

Abana batandukanye bambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu bafite uburoso bwo koza amenyo umwe afashe uburoso bw'umuhondo mu ntoki undi ari koza amenyo.

Umugabo wambaye umupira w,umweru mu ntoki ze afitemo umugozi wumweru arimo kogesha amenyo.

Umumama wambaye isengeri y'ubururu, ahumirije amaso, afunguye umunwa, ashinze amenyo, yashyizemo akagozi.

Umugabo wambaye umupira wumweru ufite umusatsi wumukara. Mu ntoki ze, afitemo akagozi arimo aroza amenyo.

Umugabo wiyogoshesheje ubwanwa wasamye umunwa, afite umugozi w'umweru mu ntoki ze, arimo arawogesha amenyo.

Umugabo wicaye ku ntebe ifite ibara ry'icyatsi yambaye itaburiya y'umweru, umupira w'umuhondo, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara ari kwa muganga ategereje uwo afasha.

Umugabo ugeze mu zabukuru, wambaye umupira uri mu ibara ry'ikijuju, afite imiti mu ntoki, imbere ye hari ikirahure.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ufite ubwanwa, urimo guseka. Afashe akagozi mu ntoki, yashyize ku menyo.

Umugabo n'umugore bahagaze bambaye imipira y'umweru barimo kwireba mu ndorerwamo bose barimo guseka.

Umwana muto wicaye wambaye ikanzu iri mu ibara ry'icyatsi n'agapira k'umweru, afite uburoso mu ntoki arimo kwiborosa.

Inyubako ndende iri mu ibara ry'ubururu n'umweru, izengurutswe n'urukuta rw'amatafari n'ibyuma biri mu ibara ry'ubururu, hateyemo n'ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Umugabo ufite ubwanwa, wambaye umupira w'umweru, ashyize urutoki ku itama arimo guseka, yambaye linete.

Umugabo wambaye umwenda uri mu ibara ry'umweru, arimo guseka. Afite akagozi mu kanwa. Imbere ye, hari undi mugabo uri kumwitegereza.

Umugabo wambaye umupira umweru ufite ubwanwa, yasamye umunwa afite umugozi mu kanwa wo koza amenyo.

Inyubako irimo imashini zitandukanye harimo umuntu wambaye itaburiya, agapfukamunwa, hari ibyo ari kwandika ikorerwamo ubuvuzi.

Mu nzu irimo amarido atukura hari umugabo uhagaze wambaye umwenda w'umukara, afite impeta ku rutoki arimo aratunganya amenyo.

Ihema rinini ryiganjemo umweru n'ubururu, hari abaganga benshi baje gusuzuma abantu ibijyanye n'uburwayi bw'amenyo, hari abantu benshi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru karuvati itukura n'agapfukamunwa k'umweru imbere ye afashe umurwayi wambaye umupira w'icyatsi arimo kumusuzuma mu kanwa.

Abanyeshuri benshi bicaye ku ntebe mu ishuri bambaye imyenda iri mu ibara ry'ikake n'umuhondo, bamanitse amaboko bafite ibintu mu ntoki.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda iri mu mabara atandukanye ufite amaherena yasamye umunwa imbere ye hari umuntu uri kumusuzuma mu kanwa.

Umugabo uryamye ku gitanda wasamye umunwa. Imbere ye hari umuganga wambaye imyenda y'ubururu n'agapfukamunwa, arimo kumusuzuma.

Umumama wambaye isengeri y'umweru ateze igitambaro cy'umweru. Afite uburoso buri mu ibara ry'ubururu arimo koza amenyo.

Umugabo uryamye ku gatanda wambaye umupira w'ubururu, impande ye hari abaganga bambaye udupfukamunwa n'itaburiya y'umweru, bari kumusuzuma ku menyo.

Umuntu uri kwa muganga uri kwitabwaho n'abantu batandukanye bambaye imyenda y'ubururu n'umweru, bambaye n'udupfukamunwa bari kumusuzuma mu kanwa.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi, ufite n'ibikoresho by'akazi mu ntoki, ari gusuzuma umuntu indwara zo mu kanwa.

Abamama babiri bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye; ubururu, umutuku n'umukara. Bafite impapuro mu ntoki, umwe aboshye imisatsi.

Iyi nyubako nini nziza cyane yita ku bageze mu za bukuru, umugabo wambaye ishati y'ubururu n'amarinete harimo umuntu ukiri muto uri kumufasha.

Umugabo wicaye wambaye ishati y'umweru imbere ye hari dame arimo kugenda akina inyuma ye hari ubusitani.

Umugabo ugeze mu za bukuru wambaye rinete n'umupira wa rakosite w'umweru; afite akantu mu ntoki kamufasha gukora siporo; impande ye hari umu mama ukiri muto wambaye imyenda itukura umufasha.

Umugabo uhagaze ugeze mu za bukuru wambaye ishati irimo ibara ry'umweru, inyuma ye hari umumama wambaye itaburiya umufasha.

Umugabo ugeze mu za bukuru wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'ubururu impande ye hari umuma wambaye imyenda y'umukara urimo kumufasha.

Umugabo ugeze mu za bukuru wicaye mu nzu, imbere ye hari ibitabo arimo gusoma yifashe mu gahanga, imbere ye hari ikirahure cy'amazi.

Umugabo uryamye ku gatanda ko kwa muganga ugeze mu izabukuru wambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, imbere ye hari umuganga wambaye taburiya impande ye hari n'imashini aje kumusuzuma.

Umubyeyi ugeze mu za bukuru uhagaze yambaye itaburiya y'umweru afite isahani mu ntoki iriho ibyokurya bitandukanye afite n'ifuroshiti mu ntoki yo kubirisha.

Umugabo ugeze mu za bukuru wambaye rinete n'ishati y'ubururu, yicaye ku gitanda impande ye hari umumama ukiri muto wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'umweru uri kumufasha.

Umugabo n'umugore bageze mu za bukuru bicaye mu nzu barimo kureba muri telefoni imbere yabo hari ikirahuri cy'amazi hari n'uducupa tw'umweru tuhateretse bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye.

Abantu babiri bicaye mu nzu, umwe ugeze mu zabukuru, wambaye umupira w'umukara n'amarinete, ufite nyinshi, umumama uri imbere ye wambaye umupira w'umuhondo, uboshye imisatsi, imbere yabo ku meza hari ikirahure cy'amazi arimo aramufasha.

Umugabo ugeze mu zabukuru, wicaye ku ntebe, inyuma ye hari umumama ukiri muto, wambaye imyenda y'ubururu urimo kumwitaho.

Umumama wicaye, urambuye amaboko, akaguru kamwe gahinnye, arimo arakora ku kirenge. Yambaye isengeri y'ubururu, n'ipantaro y'umukara. Inyuma ye hari intebe.

Umugabo ugeze mu zabukuru wambaye linete n'umupira w'umuhondo .Imbere ye hari umumama ukiri muto urimo kumufasha gukora siporo. Inyuma yabo hari undi wambaye umupira w'umweru.

Imbere y'inyubako mu busitani bwiganjemo ibara ryicyatsi n'umuhondo harimu umugabo wicaye mu ntebe wambaye ishati yubururu imbere ye harima wambaye umupira wicyatsi n'agapfukamunwa urimo kumufasha.

Umumama ufite imisatsi myinshi wambaye rinete, wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umuhondo, mu ntoki ze afite icupa ririmo imiti.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye bazamuye amaboko impande yabo hari ibyatsi biri mu ibara ry'icyatsi.

Abantu benshi, barimo abagabo n'abagore, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye. Umukecuru ugeze mu zabukuru n'umumama ukiri muto, bari imbere arimo kumushyikiriza impano.

Umugabo n'umugore bageze mu zabukuru, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, imbere yabo hari amasahani arimo ibyo kurya bitandukanye.

Umukecuru n'umusaza bageze mu zabukuru bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye. Imbere y'ameza hari akavaze kari mu ibara ry'icyatsi. Bafite imiti barimo kuyinywa.

Abantu bakiri bato barikumwe n'ugeze mu zabukuru, barimo gusangira amafunguro arimo ubwoko butandukanye, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye.

Umugabo n'umugore bageze mu za bukuru bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, bicaye impande y'ameza, imbere yabo hari amafunguro barimo gusangira baganira.

Umumama ugeze mu za bukuru wicaye ku ntebe, imbere ye hari umuntu wambaye itaburiya y'ubururu uri kumufasha kunywa imiti.

Inyubako irimo abantu babiri bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, ubururu umukara, n'umuhondo, umwe ageze mu za bukuru undi aracyari muto, afite n'imisatsi isutse.

Umumama ugeze mu zabukuru wicaye mu kagare, imbere ye hari umumama wambaye imyenda y'ubururu, urimo kumusuzuma uko ahagaze.

Umugabo n'umwana bari muri siporo, barimo gukina umupira wa basikete, inyuma yabo hari inyubako hari n'ibiti biri mw'ibara ry'icyatsi n'umuhondo.

Umugabo wicaye ugeze mu zabukuru, hari ibintu afite mu ntoki arimo kurya. Impande ye hari abana babiri, bambaye imyenda itandukanye, umwe afite akajerekani mu ntoki, undi nawe we yifashe ku munwa.

Abantu babiri bicaye barimo gusangira ibyo kurya biri mu moko atandukanye, umugabo ugeze mu za bukuru arimo guseka, imbere ye hari ikirahure cy’ amazi.

Umugabo ugeze mu za bukuru wambaye umupira w'ubururu, yambaye amarinete, impande ye hari umumama wambaye umwenda w'ubururu arimo kumusuzuma areba uko ahagaze.

Inyubako irimo abantu batandukanye, imbere yabo hari umugabo ugeze mu zabukuru wicaye mu kagare impande ye hari umuganga uri kumufasha.

Abantu benshi bicaye ahantu bari gusangira, umugabo ukiri muto ari gusunika ugeze mu zabukuru mu kagare, imbere ye hari umudamu bicaye hamwe bari gusangira.

Umuntu ugeze mu za bukuru wicaye wambaye ikanzu iri mu mabara atandukanye, imbere ye hari umuganga wambaye imyenda ya move witeguye kumufasha.

Abamama benshi bicaye ku ntebe, abandi bicaye hasi, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, inyuma yabo hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Umugabo ugeze mu za bukuru uri kumwe n'umusore ukiri muto, bafite igitabo mu ntoki bari kurebamo bishimye baseka, imbere yabo hari amatasi y'umweru arimo ka cyayi.

Umumama ugeze mu za bukuru wicaye urimo guseka, ibiganza bibiri bifashe mu gatuza, inyuma ye hari umumama ukiri muto wambaye umwenda w'ubururu, urimo guseka woboshye imisatsi umufasha.

Umumama ugeze mu za bukuru, wicaye ufite ikirahure cy'amazi imbere ye hari umuntu ukiri muto uri kumufasha kunywa imiti.

Ibiribwa biri mu bwoko butandukanye bipakiye mu mashashi biri mu mabara atandukanye nk'umweru, umuhondo, icyatsi n'ubururu.

Umugabo n'umugore bageze mu za bukuru bambaye imyenda y'amabara atandukanye, imbere yabo bafite impapuro barimo kurebamo inyuma yabo hari intebe zihateretse.

Umugabo n'umugore bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, umugabo wambaye rinete afite ikirahure mu ntoki, umumama na we ari gushaka ibyo guteka barimo guseka.

Umubyeyi ugeze mu za bukuru wambaye umudari mu ijosi, umupira w'ubururu ufite inkoni mu ntoki, impande ye hari umugabo ufite ubwanwa wambaye umwenda w'akazi ufite ibyuma uri kumufasha.

Umugabo ugeze mu za bukuru, wicaye ufite inkoni mu ntoki, yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ikake, impande ye hari umuntu uri kumufasha wambaye imyenda y'ubururu.

Inyubako irimo abantu babiri, ugeze mu za bukuru wambaye umupira w'umukara, umudamu ukiri muto urimo kumufasha kumanuka.

Abantu batandukanye barimo abagabo n'abagore, bamwe bambaye ingofero za kisilamu, bicaye hamwe barimo kuganira.

Abantu babiri bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, umwe ugeze mu zabukuru undi ukiri muto barimo guseka bicaye mu nzu.

Umumama ufite imisatsi myinshi, wambaye umupira w'umweru, ari kumwe n'umwana muto, wambaye imyenda iri mu mabara y'umweru n'umukara, hari ibintu barimo gukina ku meza.

Abantu benshi bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye ubururu, umweru n'umukara, barimo guseka, inyuma yabo hari ibiti byiganjemo ibara ry'icyatsi.

Umugabo ugeze mu za bukuru, wambaye rinete, ufite imvi nyinshi, inyuma ye hari umumama ukiri muto uri kumusunika mu kagare, amutembereza.

Abagabo n'abagore barimo gukora siporo bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, imbere yabo hari umumama ukuze wambaye umupira w'umweru urimo guseka yishimye.

Inyubako irimo abantu batandukanye bicaye kumezaeza, imbere yabo hari umumama wambaye imyenda y'ubururu, uri gusunika umupapa ugeze mu za bukuru mu kagara.

Umumama ugeze mu zabukuru urimo gukata ibyo guteka, impande ye hari ukobwa ukiri muto wambaye umupira w'ubururu barimo kuganira.

Umugabo wicaye wambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu n'umweru, imbere ye hari undi wambaye umwenda uri mu ibara ry'umweru.

Umugabo n'umugore bageze mu za bukuru, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye ubururu n'umutuku, imbere yabo ku meza bafite utuntu tw'umweru barishimye barimo guseka.

Abagabo babiri barimo kugenda mu muhanda, umwe ugeze mu za bukuru wambaye ingofero, ishati y'umweru, n'ipantaro y'ubururu, undi wambaye umupira w'ubururu n'inkweto z'umweru, bari kugenda baganira.

Abantu benshi bambaye imyenda y'amabara atandukanye harimo umuhondo, ubururu, umutuku bicaye kumurongo wuruziga inyuma yabo hari ibiti biri mumabara yumuhondo n'icyatsi.

Abantu batatu barimo umumama ugeze mu za bukuru n'abandi bakiri bato, barimo guseka. Bari gukina amakarita bishimye. Bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye.

Umugabo n'umugore bageze mu zabukuru n'umumama yambaye ikote ry'umukara arimo guseka akennye igitambaro gitukura, umugabo amusomye ku itama.

Umugabo n'umugore bageze mu zabukuru bicaye mu nzu bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye barimo guseka, imbere yabo ku meza hari umukino barimo gukina.

Umugabo n'umugore bicaye imbere yabo bafite mudasobwa umugabo afite icupa mu ntoki ari kureba uko anywa imiti.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, ukenyeye by'umuco wa kinyarwanda, ufite mikoro ku munwa itukura, yambaye n'urunigiri ruri mu mabara y'umukara n'umweru, inyuma ye hari imodoka n'ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Abantu benshi bicaye, barimo abagabo n'abagore. Imbere yabo hari abantu bakenyeye by'umuco wa Kinyarwanda. Harimo umugabo wambaye ingofero y'umukara.

Umugabo n'umugore bageze mu zabukuru bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye umutuku, n'umukara, bari kureba uko banywa imiti.

Abantu benshi bahagaze abandi bambaye amataburiya y'ubururu, barimo gusuzuma umuntu ugeze mu zabukuru wicaye wambaye ingofero y'ubururu bamusuzuma mu kanwa.

Abantu benshi bicaye mu nzu, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru; bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye. Hari abitandiye bafite n'amakarita mu ntoki zabo.

Umuntu uri mu cyumba kirimo abandi bantu bafite bafule, afite mikorofoni yambaye umupira w'icyatsi n'ijipo y'umweru.

Abantu benshi bahagaze bambaye amakanzu y'umweru, inyuma yabo hari undi wambaye ikanzu ya move bambaye n'udupfukamunwa.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari abagabo babiri, bambaye amakositimu ari mu ibara ry'umukara, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi. Bari kungurana ibitekerezo ku ndwara ya Marburg.

Abantu benshi bambaye imipira y'umweru barimo kugenda mu muhanda, bafite ibitambaro biri mu ibara ry'umweru na move bari kwamagana kanseri y'ibere.

Umumama uteze igitambaro wicaye imbere y'abaganga arambuye ikiganza bagiye kumusuzuma, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye higanjemo ubururu.

Umumama wishimye, uboshye imisatsi, ufite amaherena, yambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, umutuku n'umukara.

Umugabo uhagaze kuri podiyumu wambaye ikote ry'umukara. Impande ye hari undi wambaye ikote ry'ubururu uri kuri tereviziyo ari gusobanura ibyo avuga.

Abantu benshi bahagaze barimo abagabo n'abagore, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye. Harimo icyatsi, umweru, umukara n'ubururu.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bamwe baricaye abandi barahagaze.

Abantu benshi bahagaze, barimo abambaye amatabuririya ari mu ibara ry'umutuku, imbere yabo hari abantu babiri bicaye, umwe arimo gusuzuma mugenzi we.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore bahagaze bafite icyapa kinini kiri mu mabara y'umutuku cyandikishijwe inyuguti z'umweru, kigaragaza uko urubyiruko ari rwo rw'ejo hazaza h'uru Rwanda rugomba kwirinda virusi.

Inyubako ikorerwamo iby'ubuvuzi, hari abaganga babiri bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu. Imbere yabo hari umurwayi barimo gusuzuma.

Abantu benshi bicaye, harimo abagabo n'abagore bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye. Imbere yabo hari ababyinnyi bateze amaboko, bari kubabyinira.

Abantu benshi bari mu cyumba kinini cy'inama baricaye, imbere yabo hari abandi bari kubaganiriza barimo abagabo n'abagore bafite n'indangururamajwi.

Abantu benshi bari mu nyubako irimo imashini zitandukanye hari umurwayi uri imbere ku gitanda bambaye amataburiya y'ubururu n'ingofero z'ubururu n'udupfukamunwa biteguye kumufasha.

Imbere y'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, urugi rw'ibirahure ruri mu ibara ry'ubururu, hahagaze abantu benshi, bambaye imipira y'umweru n'amapantaro ari mu mabara atandukanye.

Umuntu uryamye ku gatanda imbere ye hari abantu bambaye amataburiya y'umweru n'dupfukamunwa, hari n'abandi bambaye amajire y'umuhondo barimo kumufasha.

Abagabo n'abagore bahagaze bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, mu ijosi bambaye amakarita agaragaza ibyo bakora.

Abantu benshi cyane bamwe bahagaze abandi basutamye bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye harimo umweru, ubururu, move, umutuku n'umukara barambuye amaboko abandi barimo guseka.

Umuntu wambaye ishati y'umweru urimo guseka, imbere hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'icyatsi na move.

Mu cyumba kinini cy'inama hari abantu benshi bicaye barimo kungurana ibitekerezo, abagabo n'abagore bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye.

Abantu benshi bari mu cyumba kinini cy'inama, harimo abagabo n'abagore bambaye imyenda y'amabara atandukanye, harimo umukara, umuhondo n'umweru.

Umugabo n'umugore bahagaze bafite icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyandikishije inyuguti z'umukara, kigaragaza ko umuntu yisuzumishije igituntu yakira vuba.

Abantu bicaye mu cyumba k'inama, imbere yabo hari abagabo babiri bicaye bafite amacupa y'amazi imbere yabo barimo kubaganiriza.

Umwana ukiri muto wambaye ikositimu y’umukara, ishati y’umweru, ipantaro y’umukara, ari gusunika umurwayi mu kagare ugeze mu za bukuru, wambaye ishati y’umweru. Imbere yabo har’umuntu uhagaze wambaye umupira w'umweru.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ifite irange ry'umweru ku madirishya, ishakajwe amabati y'ubururu, imbere yayo hari ubusitani ni inzu y'ababyeyi.

Iyubako nziza igeretse ishakajwe amabati y'ubururu yubakishijwe amabuye y'urugarika. Mu ibaraza ryayo hari abagabo babiri, umwe yambaye taburiya y'umweru undi yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye iriri mu ibara ry'umweru. Impande yayo hari ibiti byiganjemo ibara ry'umuhondo n'icyatsi, Handitseho amagambo agaragaza ko ari ikigonderabuzima cya rwerere.

Inyubako nziza ishakakajwe amategura y'umutuku, iri ahantu heza. Hari abantu bari kuzamuka bayijyamo abandi bamanuka. Hepfo yayo hari umuhanda uri kugendwamo n'abantu batandukanye.

Inyubako irimo imashini zitandukanye zifashishwa mu buvuzi hari igitanda, hari umurwayi uharyamye witeguye kuvurwa.

Inyubako nini ikorerwamo imirimo itandukanye, harimo farumasi impande yayo hari abacuruza imyenda, imbere yayo haparitse imodoka.

Inyubako nziza cyane isakajwe amabati y'ubururu, ifite n'idarapo iri mu mabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu. Imbere yayo yanditseho ko ari ikigo nderabuzima cya Kanyinya.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye birimo intebe n'ibitanda biri mu ibara ry'ubururu n'umukara n'umuhondo byifashishwa mu buvuzi.

Umuganga wicaye wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamuwa, inyuma ye muri tiriwari harimo imiti, imbere ye hari umurwayi waje amugana ari kumusuzuma ngo arebe uko ahagaze.

Inyubako irimo ibitanda byinshi biryamyeho abarwayi batandukanye, harimo abaganga bambaye amataburiya y'umweru bari gufasha abarwayi.

Inyubako nziza igeretse isize irangi ry'umweru munsi yayo hari abantu batandukanye, ifite irangi ry'umuhondo n'amagambo yandikishije inyuguti z'umukara agaragaza ko ari ikigon nderabuzima cya Nyarurenge.

Inyubako nziza cyane yubatse neza ishakakajwe amabati atukura, imbere yayo hari urukuta rwamabuye impande yayo mu mbuga harimo amapave imbere yayo hari ubusitani bwiganje mu ibara ry'icyatsi.

Inyubako irimo abantu benshi batandukanye abagabo n'abagore bambaye udupfukamunwa bategereje guhabwa ubufasha.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye harimo n'abakozi batandukanye bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru n'umukara.

Abamama bambaye imyenda itandukanye, iri mumabara y'ubururu, umweru, n'umukara umudamu wicaye imbere ya muganga ari kumubaza uko amererewe.

Inyubako nziza cyane igeretse, iri mu mabara y'irangi ry'ubururu n'umuhondo, imbere yayo hari abantu barimo kugenda, mu busitani hari igiti kirekire kiri mu mabara y'icyatsi.

Inyubako nyinshi zubakishijwe amatafari ahiye, zashakajwe amabati y'ubururu, imbere yazo haparitse imodoka. Hari n'ubusitani burimo ibiti by'imikindo biri mu mabara y'icyatsi n'umuhondo.

Inyubako ikoreshwa mu bijyanye n'ubuvuzi irimo ibitanda byinshi harimo amarido y'ubururu, harimo n'imashini zitandukanye zifasha abarwayi, hari umurwayi uryamye ku gitanda.

Inyubako nziza yubakishijwe amatafari ahiye ifite irangi ry'umweru. Ishakajwe n'amabati y'ubururu. Imbere yayo hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo. Isuzumirwamo uburwayi bw'amaso.

Inyubako nziza igeretse iri mu ibara ry'ubururu n'umweru, impande yayo hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo.

Icyumba kinini giteraniyemo abantu, hari abicaye, bafite ibyuma by'ikoranabuhanga. Ku ruhande hari uri no gukamera, bafite n'amacupa y'amazi. Imbere yabo hari abicaye barimo kubaganiriza.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye isize amarangi y'umweru, imbere yayo hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi.

Inzu ikorerwamo ubuvuzi, irimo abantu batandukanye, harimo abambaye imyenda y'ubururu, bambaye n'udupfukamunwa.

Inyubako ikorerwamo ibijyanye n'ubuvuzi, hicayemo abaganga bagera muri batatu bambaye imyenda y'akazi: abagabo n'abagore, biteguye kwakira abantu baje babagana.

Inyubako nini ishakajwe amabati y'ubururu ifite porotaye iri mu ibara ry'ubururu, impande yayo hari icyapa kiyobora abantu baza kuhashaka serivisi yo kwivuza.

Mu cyumba kirimo igitanda kiryamyeho murwayi, hari imashini zitandukanye zifashishwa mu gusuzuma. Imbere ye, hari abaganga bambaye imyenda y'akazi biteguye kumufasha

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi hari ibiri mu ibara ry'icyatsi hari umugabo wicaye ku ntebe wambaye itaburiya bigaragara ko afasha abaje bamugana.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ishakajwe amabati y'ubururu, imbere yayo ku ibaraza hahagaze abantu benshi, barimo abagabo n'abagore n'abashinzwe umutekano, ni inzu y'ababyeyi.

Umwana muto uri ku gitanda wambaye ubusa hejuru hari n'umurwaza we, imbere yabo hari umuganga wambaye itaburiya n'agapfukamunwa ufite ibikoresho uri ku musuzuma.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama imbere yabo bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga, imbere hari umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ari kubasobanurira ibyanditse ku cyapa.

Inyubako nziza yubakishijwe amatafari ahiye, isize irangi ry'umuhondo, mu ibaraza hari abantu bahicaye, imbere yayo hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo, ikorerwamo ubushakashatsi.

Inyubako nziza cyane ishakajwe amabati atukura, imbere yayo hari amapoto ahagaze, hariho amabendera atandukanye imbere mu mbuga hashashe amapave.

Inyubako nini, nziza, igeretse, ikorerwamo ubufasha bw'ababyeyi n'impinja.

Ibitanda bitandukanye birwariyeho abarwayi, imbere hari umumama wicaye arimo gusuzumwa n'umuganga.

Inyubako ndende igeretse gatatu, imbere yayo hari imodoka zihaparitse. Yubakishijwe amatafari ahiye. Hari umutaka w'umweru, hahagaze umuntu wambaye umwenda w'umutuku.

Ibikoresho byinshi bitandukanye birimo imashini zifashishwa mu buvuzi, hari intebe y'umukara na tiruwari itetse imbere y'intebe.

Inyubako y'ibitaro bikuru bya fayisari iri mu mabara y'ubururu umuhondo, imbere yayo hari abantu baje kwa muganga bafite n'ibyo bitwaje mu ntoki bashyiriye abarwayi.

Inyubako irimo umuntu wambaye ikote ry'umukara ufite umusatsi muke, imbere ye afite ibikoresho byikoranabuhanga ari kureba uko umuntu avurwa.

Inyubako ikoreshwa mu bucuruzi, imbere yayo hari abantu bahaparitse baba abamotari ndetse n'abanyamaguru baza gushaka serivisi ihakorerwa yo muri farumasi.

Inzu igeretse iri mu ibara ry'umuhondo, mu ibaraza ryayo hari abamama bahagaze, bagera kuri bane, bambaye amataburiya ari mu bururu bipfutse ku munwa.

Icyumba kirimo imashini zitandukanye harimo igitanda cyifashishwa mu kuryamishaho abantu mu gihe bari kubasuzuma barwaye.

Inyubako nziza ishakajwe amabati y'ubururu, imbere yayo muri parikingi hari imodoka ihaparitse, ku ibaraza hari abanyamaguru bahahagaze, ifite n'ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye isize irangi ry'umweru ifite inzugi z'umweru imbere yayo hari abantu bambaye imyenda y'ubururu, hari ameza. Ni inzu y'ababyeyi biteguye kwakira ababagana.

Inyubako nziza irimo intebe ziri mu ibara ry'umukara zicayemo abantu bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye ubururu, umukara n'icyatsi.

Ibicu byiganjemo ubururu n'umweru, munsi yabyo hari inyubako nziza iri mu mabara atandukanye, imbere yayo hari ubusitani bwiganjemo ibara ry'icyatsi.

Ni kwa Nyirinkwaya, inyubako nziza, ndende igeretse, imbere yayo hari icyapa cyanditseho ko ari kwa Nyirinkwaya, hari urukuta rw'amabuye ruri inyuma y'inzu.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yayo hari abantu benshi, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, baje gushaka serivisi ku kigonderabuzima.

Inyubako nziza yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yayo hagaze abantu batandukanye, yanditseho amagambo agaragaza ko ari ikigonderabuzima cya Gishweru.

Inyubako nziza cyane yubakijwe amatafari ahiye, ishakajwe amabati y'ubururu, imbere yayo hahagaze abantu benshi, baje kuyitaha ikaba izajya yita ku babyeyi.

Igipangu kinini cyubakijwe fondasiyo y'amabuye inkingi z'amatafari ahiye imbere harimo inzu nziza inyuma yaho hari ubusitani burimo ibyicungo byo gukiniraho.

Umugabo ugeze mu za bukuru wambaye ishati iri mu ibara ry'umutuku, yambaye rinete. Impande ye hari umuganga uri kumusuzuma ngo amenye uko ahagaze.

Inyubako ishakajwe amabati y'ubururu iri mu ibara ry'umuhondo, imbere yayo hari ubusitani inyuma yayo hari ibiti birebire biri mu ibara ry'icyatsi.

Inyubako yubakishijwe amabuye, imbere yayo ku ibaraza hari abantu batandukanye, impande yayo hari ubusitani bwiza, buri mu ibara ry'icyatsi, umuhondo, umutuku.

Inyubako nziza ishakajwe amabati y'ubururu, isize irange riri mu ibara ry'ubururu n'umukara, imbere yayo hari imodoka ihaparitse, hari n'abantu bahagaze.

Inyubako nini, irimo ibitanda byinshi bishasheho amashuka ari mu mabara atandukanye, ubururu n'umweru hejuru yabyo hari n'amarido.

Inyubako nini yo kwa muganga w'amasoso, imbere mu nzu hari intebe zo kwakira abantu bagana iyi serivisi.

Abagabo babiri bicaye mu nzu inyuma yabo hari kizimyamwoto, umwe ari kubaza undi uko amerewe amufasha mu burwayi bwe, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho irembo.

Inyubako nziza igeretse, irimo irange ry'mweru. Imbere yayo mu busitani hari ikigega cy'amazi. Ku gahanda k'abanyamaguru hari umwana muto ugendera mu kagare.

Inzu nini irimo imiryango ibiri ikorerwamo ubucuruzi, mo imbere hari abantu baje gushaka imiti yanditseho "farumasi Iraguha", impande yayo hari umuhanda uri gucamo ibinyabiziga bitandukanye.

Igiti kinini kirimo ibara ry'icyatsi impande yacyo hari urukuta rw'amabuye, hari umugabo uhicaye wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Inyubako nziza ikorerwamo ubuvuzi, irimo amakaro hasi, hashashemo ibitanda bigiye bifite n'amarido abigabanya ari mu ibara ry'umuhondo.

Inyubako nyinshi nziza zisakajwe amabati atukura, zisize irangi ry'ubururu, imbere yazo hari ipoto iriho idarapo, muri parikingi hari imodoka ihaparitse itukura, na moto.

Inyubako nziza ishakajwe n'amabati y'ubururu ku ibaraza ryayo hari porotaye ikozwe mu byuma hari umumama ufite uhetse umwana ufite agashuka mu ijosi.

Inyubako nini igeretse, imbere yayo hari imodoka nyinshi, hahagaze umugabo ushinzwe parikingi wambaye imyenda iri mu ibara ry'umutuku n'umukara.

Inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali, ifite urupangu rwubakishijwe amatafari ahiye, imbere yayo hari ibiti birebire biri mu ibara ry'icyatsi.

Inyubako nziza iri mu mabara atandukanye, icyatsi umutuku, umuhondo n'ubururu yifashishwa kwa muganga.

Inyubako nini iri mu ibara ry'ubururu, umutuku n'umuhondo, hagati y'amazu hari ubusitani bwiza cyane, inyuma y'inzu hari igiti kinini kiri mu ibara ry'icyatsi.

Inyubako bbigaragara ko ikorerwamo iby'ubuvuzi, hari umugabo uryamye ku gatanda wambaye umupira w'umukara n'ikabutura y'umweru, afashe ku musego yipfutse n'agapfukamunwa, impande ye hari imashini zo kwa muganga.

Inyubako nziza igeretse iri mu mabara y'ubururu, umuhondo n'umukara, imbere mu nzu harimo abantu bambaye imyenda y'umweru.

Inyubako ndende iri mu ibara ry'umuhondo hejuru yayo hari antene, imbere yayo ku ibaraza hari imodoka ziparitse muri parikingi irimo amapave, impande yayo hari icyapa kigaragaza aho umuntu agana.

Inyubako yo kwa muganga ikorerwamo ibijyanye n'ubuvuzi, hari ibitanda bishashe biryamyeho abarwayi biteguye kuvurwa.

Inyubako irimo ibitanda byinshi bishasheho amashuka, bimwe biriho abarwayi bakenewe kwitabwaho.

Inyubako irimo imashini nyinshi nini harimo n'intebe abantu bicaraho harimo umugabo uhagaze ufasha abantu bagana iyo serivisi.

Inyubako nziza y'ibitaro bya rwamagana iri mw,ibara ry'ubururu n'umuhondo imbere yayo hahagaze abantu benshi abagabo n'abagore bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye.

Inyubako nini ikorerwamo iby'ubuvuzi, irimo ibitanda bishashe neza ndetse hariho n'utwuma duhagaze bashyiraho amaserumu.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, impande yayo hari icyapa kiriho amagambo agaragaza ko ari ibitaro bya Ruhengeri, impande yayo mu muhanda harimo abantu benshi barimo kugenda.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, yanditseho amagambo agaragaza ko ari iya Remera Rukoma, inyuma yayo hari indi isakajwe amabati y'umutu, impande yayo hari ubusitani bwo mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo.

Inyubako nziza igeretse, isakajwe amabati y'umuhondo, fondasiyo yayo yubakishijwe urukuta rw'amabuye impande yayo hari ubusitani.

Inyubako nziza iherereye mu karere ka Nyarugenge, imbere yayo hari ubusitani buri mu mabara y'icyatsi n'umuhondo, imbere yaho hasashe amapave.

Inyubako ishakajwe amabati atukura impande yayo hari ibiti birebire biri mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo, hari icyapa kigaragaza ko ari ibitaro by'ubuvuzi by'indera.

Inyubako nziza nomero makumyabiri, imbere yayo hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi, hari amapave ashashe imbere yayo, hari n'icyapa kiranga ibihakorerwa.

Inyubako irimo ibitanda byinshi bishashe neza, iriho amashuka y'icyatsi harimo n'amarido.

Inzu nini y'ababyeyi isakajwe amabati y'ubururu. Inyuma yayo hari ibiti birebire byiganje mu ibara ry'icyatsi.

Inyubako yo kwa muganga ikorerwamo ubuvuzi. Harimo ibitanda byinshi, biriho n'abarwayi. harimo abantu babiri barimo gukora mu isuku. Bambaye udupfukamunwa.

Inyubako nziza ifite ibaraza ryiza ririmo ibara ry'umuhondo, urugi rurakinguye imbere y'inyubako hari ubusitani bwiza buri mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye, hari umuganga uri gusuzuma umwana muto ukikiwe na mama we, bambaye imyenda iri mabara atandukanye.

Umu mama wambaye isengeri y'ikijuju uzamuye amaboko wambaye isaha ku kaboko, akaboko kamwe gafashe mu mugongo afite n'ikintu cy'umukara ku kaboko arimo arakora siporo.

Ibiganza bibiri bifashe imbuto z'amoko atandukanye harimo pome, avoka, impande hari inkweto bakoresha muri siporo n'icupa ry'amazi.

Umugabo uryamye ku gatanda impande ye hari umuntu uhagaze wambaye itaba y'ubururu arimo aramugorora akaguru amukoresha siporo.

Umuntu uhagaze uri gukora siporo ukuboko kumwe gufashe umugongo, ukundi gufashe kukaboko kugira ngo azagire ubuzima bwiza.

Umuntu ukiri muto wambaye ipantaro y'umukara n'isengeri uboshye imisatsi ari gukora siporo, inyuma ye hari ivaze ririmo ururabo.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru wambaye isaha ku kuboko imbere ye hari umurwayi uryamye ku gatanda wambaye umupira utukura n'ikabutura y'umukara arimo aramusuzuma mu ivi.

Inyubako nini irimo imashini zitandukanye zifasha abantu gukora siporo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umugabo wicaye mu byatsi, wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara, amaboko abiri afashe ku kibero.

Amacupa menshi ari mu mabara atandukanye harimo umweru, umuhondo, umutuku na move yifashishwa mu buvuzi.

Icyapa kiriho ibintu bitandukanye umuntu yakora kugira ngo agire ubuzima bwiza, harimo kugenda n'amaguru, harimo kugenda ku igare, harimo no guterura ibyuma.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, wiyogoshesheje umusatsi, ufite kuteri z'umweru mu gutwi, afite icupa ry'amazi arimo kuyanywa, yambaye n'isaha ku kaboko.

Abantu babiri barimo gukora siporo biruka, umwe yambaye imyenda y'umukara n'ubururu, bafite amacupa abiri mu ntoki zabo, inyuma yabo hari ibyatsi biri mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo.

Abantu benshi bari mucyumba cy'inama, bamwe barahagaze abandi baricaye bambaye imyenda y'amabara atandukanye n'ingofero mu mutwe imbere yabo bari kureba amashusho.

Umugabo wambaye isengeri y'umweru n'ikabutura y'umukara n'inkweto z'umukara, ari gukora siporo. Impande ye hari umudamu wambaye ipantaro y'umukara wicaye.

Igitambaro cy'umweru gikozwe mu ruziga, cyanditseho amagambo ari mu nyuguti z'umukara harimo umusaraba utukura, kiriho amagambo agaragaza ko kiranga mu muryango wa croix rouge.

Umugabo ufite ubwanwa, wambaye umudari mu ijosi n'umupira uri mu ibara ry'ubururu, afite icupa ry'amazi arimo kuyanywa.

Umugabo uboshye imisatsi, arambuye amaboko, amavi ashinze ku itapi, yambaye imyenda irimo umukara, arimo gukora siporo.

Abantu benshi bicaye imbere y'inyubako harimo abambaye igitambaro cy'umweru, harimo umwana muto urimo gukina, n'umuntu mukuru.

Inzu nini irimo imashini zitandukanye ikorerwamo siporo hari umugabo uhagaze wambaye agapfukamunwa k'umukara ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Umugabo uryamye ku gitanda wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru n'umutuku uhambiye bande ku kaguru hari undi mugenzi we wambaye ipataro y'umukara urimo kumufasha.

Umumama wambaye imyenda y'umukara yambaye supuresi z'umweru arambuye amaboko afashe munsi y'ikirenge afite kuteri mumatwi ari gukora siporo.

Isanduku iri mu ibara ry'icyatsi, irimo imiti yo mu bwoko butandukanye. Higanjemo ibara ry'umweru, ubururu, n'umuhondo.

Umumama wambaye imyenda iri mu mabara atandukanye; icyatsi, ubururu, supuresi z'umweru. Ahagaze mu byatsi, arimo gukora siporo.

Mu nzu ikorerwamo siporo harimo abantu benshi bahagaze harimo n'imipira iri mu mabara atandukanye. Icyatsi n'umuhondo bikoreshwa muri siporo.

Ibinika iri mu ibara ry'ubururu, ifashwe n'ikiganza, irimo amazi, ari gusuka mu kirahure giteretse ku meza.

Inzu irimo ibikoresho bijyanye no gukora siporo, hari imbuto z'amoko atandukanye, harimo imineke, pome na kokombure.

Umuntu wambaye ikabutura y'umukara arunamye afite isaha ku kaboko, afashe mu ivi n'ibiganza bibiri.

Amacupa menshi ari mu mabara atandukanye harimo umweru, umukara, umutuku n'ubururu yifashishwa mu buvuzi.

Abantu babiri bahagaze umwe yambaye umupira w'umweru hasi yambaye umukara, inyuma ye hari umuganga wambaye itaburiya umufasha kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Ikirahure giteretse ku meza mu ntoki afashemo ibinika ari gusukamo amazi, bigaragara ko umuntu ukora siporo agomba kunywa n'amazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'imbangukiragutabara, imbere yaho hari ibiti byiganje mu ibara ry'umuhondo n'icyatsi.

Inyubako irimo ibintu bitandukanye, ibikoresho byo gukoresha siporo, imbuto z'amoko atandukanye zirimo amagi, imineke n'ibindi.

Abantu benshi bari mukibuga bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye harimo umweru, umuhondo n'umukara. Inyuma yabo hari inyubako ishakaje amabati atukura ruguru yabo hari ibiti bi mu ibara ry'icyatsi.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umukara n'umweru n'icyatsi kiriho ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo.

Umumama wambaye imyenda ya siporo iri mu ibara rya move, aricaye afashe mu kirenge n'ibiganza bibiri, inyuma ye hari intebe ya tabureti.

Abantu benshi bari mwishyamba bambaye imipira y'umweru, imbere yabo hari abandi bambaye amasengeri atukura bateruye umugabo wambaye umupira w'umuhondo wavunitse bagiye kumushyira mu modoka.

Umumama wambaye imyenda iri mu mabara atandukanye. Arunamye akaboko kamwe gafashe munsi yikirenge. Arimo gukora siporo.

Umuntu uhagaze wambaye itaburiya y'umweru ufite ibyuma byifashishwa kwa muganga ibiganza bye bibiri bifashe mw,ivi ry,umuntu ur, imbere ye.

Ibikoresho bitandukanye umuntu ashobora kwifashisha muri siporo, harimo n'imbuto nka pome umuntu ashobora kurya kugirango agire ubuzima bwiza.

Igikapu kinini kiririmo ibara ry'umutuku n'umukara n'umuhondo kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara n'umweru, yambaye amasogisi y'umweru n'inkweto y'umukara, i mpande ye hari umu mama uri kumufasha kwa muganga.

Umuntu wicaye urimo gukora siporo wambaye imyenda iri mu mabara y'umukara, imbere ye hari mashine impande ye hari icupa ry'amazi n'ibikoresho bimufasha gukora siporo.

Umuntu uhagaze wambaye isengeri y'icyatsi n'ipantaro y'ubururu, arambuye akaboko imbere ahinnye akaguru, akaboko kamwe gafashe kuri sipurese y'umweru ari gukora siporo.

Imashini ziri mu mabara atandukanye zifashishwa mu gukora siporo kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza.

Ibikoresho byinshi biri mu mabara atandukanye, bifasha umuntu gukora siporo kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abantu babiri bambaye imyenda y'imikara, umwe ari ku gitanda undi ari impande ye ari kumufasha, yambaye urukweto rumwe n'isogisi ry'ubururu.

Mu kibuga cy'umupira kirimo abakinnyi batandukanye bambaye imyenda ya siporo yo mu ibara ry'umuhondo n'icyatsi n'ubururu, hari umukinnyi uryamye hasi abaganga babiri baje kumwitaho.

Abakinyi bambaye imyenda ya siporo iri mu ibara ry'umutuku, umuhondo, n'umweru hariho ufite nimero enye na nimero esheshatu bari gukina umupira wa rugubi.

Inzu irimo ibikoresho byinshi bikoreshwa muri siporo, hari umuntu uryamye ku gatanda, wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, impande ye hari undi wambaye ingofero y'umukara.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu cyongereza, kigaragaza ko umuntu agomba gukora siporo ariko akanivuza, biri mu ibara ry'ubururu, umweru n'umuhondo.

Umugabo wicaye mu byatsi wambaye isengeri y'umukara, arambuye amaboko, afashe munsi y'ibirenge, arimo gukora siporo.

Umugabo wicaye wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'ubururu; afashe ku kuboko kwakomeretse apfukishijwe igipfuko cy'ubururu.

Umuntu ufite umusatsi muke afite icupa ry'umweru n'ubururu, mu ntoki ze arimo kunywa amazi, ku ijosi rye hari isume y'umweru ari gukora siporo.

Umugabo uri mu nzu bakoreramo siporo wambaye ikabutura y'ubururu n'umweru umupira w'umukara. Arambuye amaboko afite n'imikufi ku kuboko arimo arakora siporo.

Abantu babiri umwe aricaye yambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara n'umweru undi ahagaze imbere ye yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara ari gukora siporo.

Abantu batandukanye barimo umugabo n'umugore bari gukora siporo, bafite amacupa y'amazi buri wese arimo kunywa bigaragara ko amazi ashobora gutuma umuntu agira ubuzima bwiza.

Umumama uziritse imisatsi inyuma, yambaye isengeri y'ubururu afite icupa ry'amazi, riri mu ibara ry'icyatsi arimo kuyanywa.

Inyubako iri mu bara ry'umweru, ubururu, n'umuhondo. Imbere yayo hari umugabo uhagaze ku rwego. Impande ye hari abandi bambaye imyenda y'ubururu.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ikabutura y'umukara, supuresi z'umweru, arambuye akaboko, akandi gafashe mu mayunguyungu, arimo gukora siporo.

Ibikapu bitatu bibiri birafunguye, ikindi kirafunze, birimo amabara y'umukara n'umutuku, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi no muri siporo.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku, ufite nimero ibihumbi bitanu magana atatu na kabiri ari muri siporo, inyuma ye hari abagabo babiri wambayejije y'umuhondo arimo kumusindangiza.

Igare rifite amapine riri mu ibara ry'umukara nubururu ryifashishwa mu gutwara abantu babana n'ubumuga.

Abantu babiri umwe uhagaze wambaye umwenda wijimye undi araryamye ahinnye akaguru kamwe akandi kararambuye arimo kumukorera masaje.

Inzu nini irimo ibikoresho bikoreshwa muri siporo, harimo umugabo wambaye umupira w'umukara urimo gukora siporo.

Umugabo wambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara, uhagaze, akaguru kamwe yakazamuye, akandi kari hasi. Inyuma ye hari ibiti birebire, biri mu ibara ry'icyatsi.

Umumama wicaye kuri tapi, wambaye imyenda irimo umukara, azamuye amaboko, imbere ye hari icupa ry'amazi n'ibikoresho bimufasha gukora siporo.

Imashini nini iri mu ibara ry'umweru n'ubururu iri m'uruziga rw'umuhondo, n'umweru ifasha abantu kugira ubuzima bwiza bari muri siporo.

Abagabo babiri bahagaze umwe ari gutoza mugenzi we, afite imipira yo gukoresha muri siporo, inyuma yabo hari ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora siporo.

Ibikoresho bitandukanye bifasha umubiri kumera neza, harimo: amazi yo kunywa, imbuto zo kurya zitandukanye, harimo n'imigozi yo gusimbuka.

Umuntu wicaye ku gitanda, wambaye umupira w'imbeho. Akaboko ke gafashe mu ivi, hariho igipfugo cy'umweru.

Umumama uboshye imisatsi, wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, ari gukora siporo azamuye ivi amaboko afashe mu kaguru.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru umukinnyi umwe yaguye hasi yambaye imyenda y'ubururu n'umukara, umuganga aje kumureba ngo amuvurire mu kibuga impande ye hari umupira wo gukina.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo, hari n'imipira iri mu mabara atandukanye umutuku, umweru, umukara n'icyatsi.

Icupa rinini riri mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo, impande yaryo hari igiti cy'igikakarubamba ryifashishwa mu buvuzi.

Amacupa menshi atandukanye ari mu mabara y'icyatsi, move ubururu n'umweru arimo imiti ikoreshwa mubijyanye n'ubuvuzi.

Amacupa menshi ari mu mabara atandukanye arimo imiti ikoreshwa mu buvuzi. Impande yaho hari umuntu wambaye itaburiya ushinzwe gufasha abantu.

Ibintu bitandukanye biri mu mabara menshi; ubururu umutuku, wumuhondo, umukara, byifashishwa mu buvuzi.

Ibyatsi biri mu mabara atandukanye, higanjemo ibara ry'umuhondo, umutuku n'icyatsi, bikoreshwa kubijyanye n'ubuvuzi.

Umuntu wicaye wambaye ikaburiya y'umweru, mu biganza bye afitemo imiti ikoreshwa mu buvuzi. Ari gusobanura uko ikoreshwa.

Igiti kiri mu murima kiri mu mabara y'icyatsi n'umuhondo, haruguru yaho hari ibindi biti bihateye gikoreshwa mu ubuvuzi.

Ibyatsi bitandukanye biri mu mabara y'icyatsi, move n'umweru biteye mu butaka byifashishwa mu buvuzi.

Umumama wambaye umwenda uri mu ibara ry'icyatsi, imbere ye hari isorori irimo imiti y'ubwoko butandukanye yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru, inyuma ye muri tiriwari hari amacupa menshi arimo imiti itandukanye, imbere ye naho hari imiti y'amoko atandukanye yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Amacupa ari mu mabara atandukanye arimo umuhondo n'umweru, hashushanyijeho igikakarubamba kifashishwa mu ubuvuzi.

Icupa riri mu ibara ry'umutuku, icyatsi n'umweru, ririho igikakarubamba byifashishwa mu buvuzi.

Igiti biteye mu butaka biri mu mabara atandukanye, mu ibara ry'icyatsi, move n'umweru, byifashishwa mu buvuzi.

Amacupa menshi, ari mu ibara ry'umuhondo, umweru, umutuku n'icyatsi. arimo imiti y'ubwoko butandukanye. Inyuma yayo hari igikakarubamba, hakoreshwa mu bijyanye n'ubuvuzi.

Ipapayi rikase ririmo imbuto z'umukara rirasa n'umuhondo imbere. Hari irindi riri mu ibara ry'icyatsi batari bakata.

Icupa rinini riri mu mabara atandukanye umweru n'icyatsi, rishushanyijeho igiti k'igikakarubamba rikoreshwa mu buvuzi gakondo.

Imiti iri mu bwoko butandukanye no mu masorori atandukanye, hari ikiganza kirimo imiti ku meza.

Amacupa ari mu mabara atandukanye, yiganjemo nk'ibara ry'umweru, haguru yaho hari inzuki uko bigaragara hakoreshwa mu buvuzi bwo kwa muganga.

Amacupa menshi atandukanye, ari mu mabara atandukanye, harimo umuhondo, umweru n'ubururu, akoreshwa mu buvuzi.

Amacupa atandukanye ari mu mabara y'umuhondo, umutuku, umweru, n'ubururu, ashushanyijeho igikakarubamba.

Igiti gifite amababi menshi y'icyatsi kiri ahantu hijimye, gikoreshwa mu buvuzi bwo kwa muganga.

Amacupa ari mu mabara atandukanye, harimo umuhondo, umweru, hari n'igikakarubamba munsi yayo. Gikoreshwa mu buvuzi gakondo.

Abantu benshi bahetse ibikapu barimo kugenda, imbere yabo hari umugezi utemba, impande yaho hari ibiti biri mu mabara y'icyatsi n'umuhondo.

Ibiti byinshi biri ahantu mu ishyamba byiganjemo ibiri mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo, byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Umugabo uhagaze wambaye umupira uri mu ibara ry'icyatsi n'ipantaro y'ubururu, afite ibiti biri mu mabara y'icyatsi byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Amacupa menshi ari mu ibara ry'umuhondo n'umweru. Impande yayo hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi n'umutuku. Byifashishwa mu buvuzi.

Ibiti byiganjemo ibara ry'icyatsi n'umuhondo biri mu murima bishobora kwifashishwa bikorerwamo imiti yo kuvura abantu.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'ubururu. Impande ye hari amacupa menshi atandukanye, arimo ibara ry'icyatsi n'umweru. Ni umujyanama kubijyanye n'ubuzima n'imirire.

Ibyatsi biri mu bwoko butandukanye hari ibiri mu kirahure n'amacupa arimo imiti bikoreshwa mu buvuzi.

Ishyamba ririmo ibiti birebire n'ibigufi biri mu mabara atandukanye, icyatsi, n'umuhondo n'umutuku.

Igiti kirekire kiri mu ibara ry'icyatsi, inyuma yacyo hari ibicu byiganjemo ubururu n'umweru, munsi yacyo hari ibindi byatsi by'icyatsi.

Icupa rinini ripfundikije umufuniko w'icyatsi ryanditseho amagambo umuravumba rikoreshwa mu buvuzi gakondo.

Amacupa menshi atandukanyeari mu ibara ry'umutu, ubururu n'umweru, icyatsi n'umukara, yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Icupa rinini riri mu mabara atandukanye; umuhondo, ubururu, umukara n'umweru. Byifashishwa mu kubika imiti yo kwa muganga.

Ibiti birebire biri mu mabara atandukanye higanjemo ibara ry'icyatsi byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Etageri irimo amacupa menshi yo mu mabara atandukanye, inyuma yayo hari umuntu wambaye imyenda y'umweru, hakurya yayo mu muhanda harimo abantu bari kuhaca.

Amacupa ari mu mabara atandukanye arimo imiti, hari n'amafoto atandukanye agaragaza ukuntu umuntu yakwivura haba mu ivi, mu kaboko, mu rutugu, mu nkokora no mu mugongo.

Amacupa ari mu mabara atandukanye umuhondo, umweru, umutuku na move, ashushanyijeho igikakarubamba akaba akoreshwa mu buvuzi.

Amacupa menshi ari mu mabara atandukanye, harimo umuhondo, n'umweru, n'icyatsi. Akoreshwa mu bijyanye n'ubuvuzi.

Imbuto nyinshi ziri mu moko atandukanye harimo amaronji, zifashishwa kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza.

Akajerekani kanini gapfundikije umufuniko w'umutuku kari mu ibara ry'umweru karimo umuti wifashishwa mu buvuzi.

Umuntu wambaye imyenda iri mumabara atandukanye. Ari mu ndabo arimo kuzireba, ziri mumabara yicyatsi, n'umuhondo na move.

Amacupa menshi ari mu bwoko butandukanye afite amabara umweru umutuku wumuhondo icyatsi n'ubururu akoreshwa mu buvuzi.

Ibiti bitandukanye biri mu ibara ry'icyatsi, inyuma yaho hari ibicu bimwo ubururu n'umweru byifashishwa mu miti ikoreshwa mu buvuzi.

Imiti y'ubwoko butandukanye yiganje mu ibara ry'icyatsi yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Amacupa menshi ari ku murongo ari mu mabara atandukanye harimo icyatsi, umweru n'umukara.

Amacupa menshi ari mu mabara atandukanye harimo umuhondo, umukara, umweru icyatsi n'umutuku akoreshwa mu buvuzi.

Amacupa menshi ari mu mabara atandukanye, umuhondo, icyatsi, n'umweru, yifashishwa mubuvuzi.

Ibyatsi biri mu bwoko butandukanye byiganjemo iby'ibara ry'icyatsi, hari umugabo wambaye ishati itukura ufashe igiti kimwe mu kaboko.

Amacupa menshi ari mu mabara atandukanye, ari mu gatiriwari, harimo ay'umuhondo, umutuku, umweru, umukara, yifashishwa m'ubuvuzi.